Abana batoya b'incuke bambaye impuzankano z'ishuri, aho bari bicaye ku meza y'ahantu habugenewe barira ndetse bakaba barimo bakina imikino yo mu bwoko butandukanye, harimo iyo guhana impano zitandukanye.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru akaba yari arimo yigisha abana batoya mu ishuri, aho bari bicaye ku ntebe ndetse barimo bamukurikira, bafite n'amakayi bari bariho bandikaho ibyo bari kwiga.

Abana batoya b'abanyeshuri, biga mu mashuri abanza, aho bari bari gukina hanze y'ishuri ryabo ryubatswe mu buryo bwiza. Aho rifite amatafari meza ndetse n'ibirahure ku madirishya, kandi tukaba utwo twana twari twambaye impuzankano y'ishuri.

Abana batoya b'inshuke ndetse no mu mashuri abanza bari bari kumwe barimo bakina, aho bari bari kumwe n'umukecuru arimo abatoza uburyo bwiza bwo gukina ndetse anabigisha ibintu bigiye bitandukanye.

Abana batoya b'abahungu ndetse n'abakobwa, bari bicaye mu nzu muri salon kumukeka barambije ndetse bakaba bari bafite n'ibikombe binini cyane mu ntoki zabo, aho bari barimo banywa amata.

Abanyeshuri bicaye mu dutebe two mu ishuri, aho bari kumwe n'umwarimu wabo, arimo abigisha ibintu bigiye bitandukanye ndetse bakaba bari biganjemo abana bakiri batoya nk'ab'imyaka nk'itandatu.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari mu myaka nk'itanu n'itandatu, aho bari bicaye ku mikeka hamwe, barimo batozwa uburyo bwiza bwo kugira ikinyabupfura ndetse banabafasha mu myigire yabo.

Abana batoya higanjemo abana b'abahungu ndetse nab'abakobwa, aho bari bicaye imbere y'inzu mu bucaca barimo bakina ndetse banaganirizwa nyuma yo kuva ku mashuri ndetse banabatoza uburere buboneye.

Abana biga amashuri y'incuke aho bari bahuriye hamwe barambije bicaye ku mucyeka ndetse bafite igikombe mu ntoki zabo kinini kirimo amata bakaba bari barimo banywa amata ndetse banarya.

Abana batoya higanjemo ab'abakobwa n'ab'abahungu, aho bari bari kumwe n'abamama babiri bakuru barimo babakoresha imyitozo ngororamubiri, aho barimo babereka uburyo bazamura amaboko ndetse n'uburyo bahagarara.

Abana b'abakobwa bambaye udushati tw'ibara ry'ubururu ndetse n'amajipo yo mu ibara ry'umuhondo, aho bari bari hanze ndetse barimo bakina, abandi barimo batembera ku muhanda.

Abana batoya harimo ab'abahungu n'abakobwa, bari bambaye udushati tw'ubururu ndetse n'utujipo n'udukabutura two mu ibara ry'umuhondo, aho bari barimo bafata ibyo kurya mu ntoki.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'iz'umuhondo, aho bari bahuriye hamwe bicaye ku ntebe, barimo basoma igitabo ndetse banasubiramo amasomo yabo kugira ngo babashe kuyumva neza.

Muri zimwe muri gahunda zigezweho zo kwigisha abana b'incuke, harimo na gahunda yo gukoresha ibishushanyo, aho bashyira ibishushanyo bishimishije byo mu bwoko butandukanye ku bikuta kugira ngo ibashe kwagura ubwonko bw'abana b'incuke.

Abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa, bambaye impuzankano zifite ishati y'ibara ry'ubururu bwerurutse, ndetse n'udukabutura n'utujipo biri mu ibara rya kaki, aho bari barimo bakina imbere y'ishuri bigiramo, ndetse bahetse n'udukapu.

Abana b'abanyeshuri higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu. Aho bari bambaye udukabutura n'utujipo by'umuhondo ndetse n'udushati two mu ibara ry'ubururu. Aho bari bari ku ishuri, ndetse bahetse udukapu kugira ngo batahe.

Abana b'abanyeshuri aho bari bicaye mu ishuri ryiza ryubakishijwe amatafari ndetse rifite n'umuriro w'amashanyarazi, barimo bakoresha mudasobwa ndetse bakaba ba bari kumwe n'umwarimu wari urimo abigisha uburyo bazikoresha.

Kimwe mu bigo by'amashuri biherereye mu karere ka Huye kikaba ari ikigo cyubakishije amatafari, ndetse kikaba gisakaje amabati, kikaba kigisha abanyeshuri bo mu ngeri zitandukanye, higanjemo amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ibikombe by'imikino igiye itandukanye biteretse hejuru y'akabati, bikaba biri mu cyumba ibigo bishyiramo ibihembo byagiye bitwara, kugira ngo bijye byerekana umurage bifite mu myitozo ngororamubiri ndetse no muri siporo muri rusange.

Abana batoya biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bari bambaye udukabutura tw'umuhondo ndetse n'udushati tw'ibara ry'ubururu, barimo bakina mu gikari cy'inzu y'ishuri.

Abana b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu, bari bavuye ku ishuri bambaye impuzankano ndetse bahetse n'ibikapu, bakaba bari barimo baca mu nzira irimo amabuye menshi yegereye ikigo cyabo bigaho.

Kimwe mu byumba by'amashuri bigezweho kikaba cyubatswe mu buryo bwiza aho gifite amadirishya meza ndetse n'intebe zo kwicaraho, kikaba kirimo abanyeshuri bari kumwe n'umwarimu wambaye agapira ka orange, aho arimo abigisha uburyo bwo gukoresha mudasobwa mu ikoranabuhanga.

Aho abanyeshuri barira, kaba ari meza iteretseho isosi ndetse n'akawunga k'abanyeshuri. Kandi hakaba hari n'ibishyimbo biri mu ibase abanyeshuri barya, kandi hakaba harimo n'abantu bari kubitegura.

Abana b'abanyeshuri bambaye udushati tw'ibara ry'ubururu ndetse n'udukabutura n'amajipo byo mu ibara ry'umuhondo, aho bari barimo bakina agapira ndetse abandi barimo baganira.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'agakabutura k'umuhondo ndetse n'ubururu, aho bari bari ku ishuri, harimo umwe wikoreye ibase kuko bari barimo bakora amasuku ku ishuri.

Ikigo cy'amashuri akaba ari ikigo cyubatse neza mu buryo bugezweho, aho gisakaje amabati ndetse kikaba cyubakishije amatafari adahiye kandi mo hagati bakaba bashyizemo ikigega gifata amazi meza.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, aho bari bateruye amasafuriya bakoresha ku ishuri barimo barya ndetse bakaba bari barimo bayakorera isuku kugira ngo bongere kuyariraho undi munsi ukurikiye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, aho bari barimo bagenda mu muhanda bagiye ku ishuri, bamwe bafite udukapu ndetse abatoya muri bo bari babafashe ukuboko barimo babayobora babajyana kwiga kugira ngo babashe kongera ubumenyi.

Abana batoya bari mu kigero nk'icy'imyaka icyenda n'irindwi n'umunani, aho bari bambaye utujipo dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'udushati two mu ibara ry'ubururu, bahetse n'udukapu basa nk'abari bagiye ku kigo cy'amashuri.

Icyumba cyo mu kigo cy'amashuri kikaba ari icyumba gifite ikibaho kinini, imbere gifite ibara ry'umukara ndetse kikaba gifitemo n'intebe abanyeshuri bicaraho bari kwiga nyinshi cyane kandi kikaba cyari kirimo n'umunyeshuri waje kwiga.

Mu rwanda hakomeje kugaragara ibyorezo bigiye bitandukanye, ho harimo n'icyorezo cya marbag, kikaba gifite ibimenyetso bigiye bitandukanye, harimo kugira umuriro mwinshi, kuribwa umutwe, gucibwamo, ndetse no kuruka, kandi tukaba dushishikarizwa gukomeza kucyirinda dukaraba intoki buri kanya, ndetse twirinda no gusuhuzanya mu gihe bidakenewe.

Abana b'abanyeshuri bambaye udushati two mu ibara ry'ubururu ndetse n'utujipo two mu ibara ry'umuhondo, aho bari bahetse udukapu baje ku ishuri, bakaba bari bahagaze inyuma y'igipangu cy'ishuri.

Kimwe mu cyumba cy'ibigo by'amashuri, bikaba ari bimwe mu byumba byubatswe mu buryo bwiza, aho bisakajwe amabati, bikaba bifite inzugi nziza kandi bifite n'amadirishya arimo ibirahure bibonerana ku buryo umunyeshuri abasha kureba hanze.

Icyumba cy'ishuri abana batoya bigiramo kikaba ari kimwe mu byumba byubatse neza ndetse gifite n'imitako myiza itandukanye aho hagiye hashushanyijeho ibikoresho bifasha abanyeshuri kumenya indimi z'amahanga.

Abanyeshuri bambaye ibisarubeti biri mu mabara y'ubururu, aho bari barimo bakora imikoro ngiro ndetse bafite umwarimu urimo ubayobora abereka uburyo bwiza bwo gukora ibyo bagomba gukora.

Abana b'abakobwa ndetse n''ab'abahungu, aho bari bambaye udupira tw'ubururu ndetse bari kumwe n'abandi bana bakina, bafite amakondera bari barimo bavuza, barimo bidagadura ndetse banishimisha.

Ikigo cy'ishuri kigizwe n'inyubako nziza cyane zijyanye n'igihe ndetse kikaba gikikijwe n'ibiti byiza byo mu ibara ry'icyatsi kandi mo hagati kikaba gifitemo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu Karere ka Nyanza, kizwi ku izina rya College de Christ Roi Nyanza, akaba ari kimwe mu bigo bitanga uburezi ndetse n'uburere bwiza hano mu Rwanda.

Icyumba kijyanye n'igihe cyo ku bigo by'amashuri cyo gusomeramo, aho ari icyumba kiba kirimo ibitabo byinshi by'ubwoko bugiye butandukanye ndetse kandi kikaba gifasha abanyeshuri kongera ubumenyi bwabo bifashishije ibitabo.

Bimwe mu bibuga by'imikino y'amaboko biherereye ahantu heza cyane ndetse byubatswe mu buryo bugezweho kuko bifitemo sima mo hagati ndetse bikaba bifite n'imirongo ishushanyije, abakinnyi bifashisha kugira ngo bamenye igice bahagazemo myiza kandi ijyanye n'igihe.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bari bari mu ishuri bicaye ku ntebe zabugenewe ndetse bafite n'amakayi imbere yabo, aho bari barimo basubira mu masomo bishimye ndetse banaseka kandi bakaba bari bategereje mwarimu ko yinjira.

Abana b'abahungu barimo bakina umukino w'amaboko uzwi ku izina rya volley ball, aho ikipe imwe yari yambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, indi yo yambaye umweru uvanze n'ubururu, bakaba barimo bakina imikino y'amarushanwa yo ku rwego rw'ishuri.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri uri mu kigero nk'icy'imyaka cumi n'itanu, aho yari ari mu cyumba cyabo cyo kuryamamo, kikaba ari icyumba cyiza kirimo igitanda kigeretse, ndetse akaba yari arimo afungura mu gikapu cye kugira ngo arebemo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye n'abanza giherereye mu Karere ka Huye mu Murenge wa Ngoma, akaba ari kimwe mu bigo bijyanye n'igihe, kuko gitanga ubumenyi ndetse n'uburere byiza ku bana bahiga.

Abana b'abanyeshuri bambaye amapantaro y'umuhondo ndetse n'udupira tw'ubururu n'utw'umweru, aho bari barimo bakinira imbere y'ikigo cyabo ndetse banafite amakondera mu ntoki zabo, aho barimo bidagadura hamwe n'abandi bana.

Umwana w'umuhungu wambaye utubodaboda ndetse n'agakabutura k'umuhondo n'agashati k'ubururu, aho yari afite umupira w'imbeho mu ntoki ndetse kandi akaba yari ku kigo cyabo cy'amashuri cyiza, gifite inyubako zijyanye n'igihe.

Abana batoya bambaye imipira y'umukara, amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara; aho bari bateraniye ahantu hamwe, bigaragara yuko bari bari mu rugendo-shuri, bagiye kwiga ibintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Karubanda, aho bari bahuriye hamwe ku kibuga cy'umukino w'amaboko wa basket, aho bari baje kureba abandi bakobwa bari bari gukina ndetse bakaba bari bambaye n'impuzankano.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano z'amashati y'ibara ry'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo biri mu ibara ry'umuhondo, aho bari bari mu ishuri ndetse mwarimu ari imbere yabo arimo ababwira icyo gukora.

Kimwe mu bigo by'amashuri cyubatse mu buryo bugezweho, aho cyubakishijwe amatafari ndetse kikaba gisakajwe, amabati kandi kikaba gifite n'ubusitani mo hagati, burimo ibiti by'imbuto ndetse hakaba harimo n'idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano nyinshi zigiye zitandukanye, harimo abambaye amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro by'umuhondo, imipira y'umukara iy'icyatsi bisa nkaho bari bahuriye hamwe bakurikirana ikiganiro.

Ikigo cyiza kijyanye n'igihe giherereye mu Karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo, akaba ari kimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye byiza cyane biri muri kano karere, aho kizwi ku izina rya Groupe Scolaire Officielle, Indatwa n'Inkesha, kikaba gitanga ubumenyi ndetse n'uburere byiza.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri ubona bambaye neza ndetse biga mu kigo cyiza, aho bari bicaye ku ntebe barimo bandika mu makayi yabo. Ndetse kandi bakaba bari bambaye impuzankano nziza cyane zifitemo amabara, y'ubururu ndetse n'irijya gusa n'ivu.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, harimo abambaye imipira y'ubururu amashati y'umweru n'amapantaro ndetse n'amajipo by'umukara, aho bari bicaye ahantu mu busitani bari kwitabira inama, aho bagezwagaho ibiganiro bitandukanye.

Abana b'abakobwa, aho bari barimo berekana impano zabo ku kigo cy'amashuri, aho bari bambaye imikenyero y'ubururu ndetse n'iy'umuhondo, bazamuye amaboko barimo babyina imbyino gakondo, ndetse bakaba bari bashagawe n'abarimu n'abandi banyeshuri bishimira izo mpano.

Utubase twiza duteretse ku kameza, tukaba turimo akawunga ko kurya, ndetse bikaba bikunze kugaragara ku bigo by'amashuri kuko akenshi ni ryo funguro abanyeshuri bakunda gufata mu gihe bari ku ishuri.

Abana b'abakobwa bari kugenda ku i Taba, bambaye ijipo yo mu ibara y'umukara ndetse n'agapira k'umuhondo ndetse n'ishati y'umweru, aho bari barimo bajya ku ishuri kugira ngo bajye kongera ubumenyi.

Abana b'abahungu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru, ku mashati ndetse n'amapantaro y'imihondo, aho bari bari mu muhanda wa kaburimbo barimo bagenda bajya ku ishuri kugira ngo babashe kujya kongera ubumenyi.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, higanjemo abambaye imikenyero, ndetse n’abapolisi n’abasirikare, aho bari bahuriye hamwe, barimo kwigira hamwe uko bateza imbere uburezi, ndetse n’uburere bw’abana b’abanyeshuri.

Mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma, aho abanyeshuri bari guca ku muhanda wa kaburimbo, bagiye kwiga. Bakaba ari abanyeshuri b'abahungu bane, ndetse n'abandi b'abakobwa batatu, aho bari bambaye impuzankano ndetse, barimo bagenda bajya ku ishuri.

Bimwe mu byumba byiza byo kuraramo by'abanyeshuri, bikaba ari ibyumba byo mu buryo bwa kijyambere, aho bifite ibitanda bigerekeranye ku buryo bibasha kwakira abanyeshuri benshi, bikoresheje umwanya mutoya, kandi bikaba bifite n'amadirishya, abasha kwinjiza umuyaga mo imbere.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, aho bari bahuriye mu birori bikaba byabereye ahantu heza cyane, ndetse hakaba hagati harimo ihema ryicayemo abashyitsi bakuru, aho bari barimo bareba uburyo abantu babyina ndetse banabikamera.

Abanyeshuri aho bari bahuriye mu cyumba k'ishuri kirimo intebe nziza zo kwicaraho ndetse hakaba hari higanjemo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano z'umupira w'umweru ndetse n'udupantaro tw'umuhondo aho bari barimo bakora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye.

Icyumba cy'ishuri cyo kwigiramo, akaba ari icyumba cyiza kijyanye n'igihe, aho kirimo ikibaho cyiza cyo mu ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba harimo n'intebe nyinshi cyane abanyeshuri bicaraho.

Mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye ahazwi nko ku Itaba, aho abana b'abanyeshuri bari barimo bajya ku ishuri, abandi barimo bataha kugira ngo babashe kubona uburezi ndetse n'uburere byiza.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano z'ishuri zigizwe n'ishati y'umweru ndetse n'amajipo y'umukara, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, aho bari basuwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakuru cya RBA barimo baganira na cyo.

Abana b'abakobwa bambaye amasengeri ndetse n'udukabutura by'umweru n'umukara, aho bari bari gukina umukino w'amaboko uzwi ku izina rya volleyball, aho bari bamaze gutsinda ikipe barimo kwishimira intsinzi.

Ikigo kijyanye n'igihe gitanga ubumenyi ndetse n'uburere bwiza kizwi ku izina rya Petit Seminaire Vergo Fidelis de Butare, kikaba ari kimwe mu bigo byiza biherereye mu karere ka Huye, kandi kikaba gitanga ubumenyi bwiza.

Kimwe mu bigo by'amashuri byubatswe mu buryo bugezweho, kikaba gisakaje amabati meza afite ibara ry'ubururu, cyubakishije amatafari ndetse gifite amadirishya meza y'ibirahure ndetse n'inzugi kandi kikaba gikikijwe n'ibiti.

Abakobwa bihaye Imana bambaye impuzankano y'amajipo y'ibara ry'umukara ndetse n'imipira y'ubururu yerurutse ndetse bateze n'udutambaro mu mutwe tw'umweru, aho barimo bagenda mu muhanda ku tuyira tw'abanyamaguru batashye.

Igitabo cy'ubutabire cy'umwaka wa gatatu cyagenewe abanyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rwanda, ndetse kikaba gifasha mwarimu kumenya ibyo bagomba kwigisha abanyeshuri ndetse n'uburyo abakosora.

Abana b'abakobwa bicaye hamwe bambaye impuzankano zirimo umupira w'umweru ndetse n'ijipo ifite ibara ry'umuhondo n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, aho bari bicaye hamwe bari mu cyumba basenga ndetse akaba hari padiri imbere yabo uyoboye isengesho.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo by'umuhondo, aho bari bicaye mu busitani bw'ikigo cyabo, barimo babigisha uburyo bateza imbere imyigire yabo, ndetse bakagira n'ikinyabupfura.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zigizwe n'ishati ifite amabara y'umweru, amajipo n'amakabutura byo mu ibara ry'umukara, aho bari bahuriye mo hagati mu kigo cy'amashuri, barimo babwirwa uburyo bagomba kwitwara ndetse banabongera ubumenyi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, ku mashati ndetse n'amajipo cyangwa amapantaro by'umukara, aho bari barimo bagendera hamwe mu muhanda wa kaburimbo mu kayira kagenewe abanyamaguru.

Mu Rwanda muri gahunda zigezweho harimo na gahunda yuko abanyeshuri bagomba gufatira amafunguro yabo ku bigo by'amashuri, aho barurirwa ibiryo bigashyirwa ku meza yabugenewe ndetse bikaba bikunze kuba byiganjemo ibishyimbo ndetse n'imboga rwatsi.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa aho bari bicaye mu cyumba kiberamo inama ndetse bambaye impuzankano zabo ziri mu ibara ry'umweru n'ubururu aho imbere hari abayobozi bari kubagezaho amabwiriza ndetse n'inama zigiye zitandukanye.

Abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishati y'ibara ry'umweru ndetse n'amajipo ari mu ibara ry'umukara, aho bari bari kumwe na mwarimu wabo arimo abereka ibidukikije hanze y'ishuri.

Ishuri ryiza ryubatse hakoreshejwe sima hasi ndetse ku mpande na ho bakaba barateyeho indi sima, rikaba rifite amadirishya y'imbaho akinguka, ndetse kandi rikaba rifitemo n'intebe zihagije abanyeshuri bashobora kwicaraho mu gihe bari kwiga.

Abana b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu aho bari bahuriye hamwe kugira ngo babashe kwereka ababyeyi babo n'abayobozi, ibyo bagezeho ndetse banabamurikira impano zigiye zitandukanye bagiye baratojwe n'izo bifitemo.

Abanyeshuri bari ku kigo cy'amashuri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo yo mu ibara ry'ubururu, aho bari bahuriye mu cyumba cyo kuriramo, barimo bashyira amafunguro yabo ku masahani ndetse bafite n'amata yo kuyanywesha.

Umwana w'umunyeshuri wambaye agakabutura k'umukara, bodaboda ndetse n'agashati kajya gusa ubururu, aho yari arimo yirukanka ku muhanda ndetse agendera mu kayira k'abanyamaguru, aho bari bamutumye ahantu runaka.

Abanyeshuri bambaye ibisarubeti byo mu ibara ry'ubururu ndetse bambaye n'utugofero dufite ibara ry'umuhondo tubasha kuba twabarinda impanuka, aho bari bafite ibyuma mu ntoki zabo barimo babipima ndetse banabikata kugira ngo babashe gukora imikoro yabo.

Abanyeshuri bo mu mumashuri yisumbuye, aho bari bahuriye hamwe higanjemo abambaye impuzankano z'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo by'umuhondo kandi hakaba harimo n'abandi bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro n'amajipo by'umukara, aho bari barimo bakurikirana inama.

Abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu kugera nko kuri cumi n'irindwi, aho bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, aho bamwe bari bambaye udupira tw'ubururu, abandi bambaye amashati y'ubururu ndetse harimo n'amajipo n'amapantaro y'umuhondo, aho bari bicaye hamwe barimo bakurikirana ikiganiro.

Mu karere ka Huye, mu murenge wa Taba, hakaba haherereye ikigo cy'amashuri, kikaba ari ikigo gikikijwe n'ibiti byinshi cyane, inyuma yacyo gifite ubusitani, aho cyari kirimo kivugururwa kugira ngo kijyane n'igihe.

Icyumba cyo mu nzu cyabugenewe akaba ari icyumba cy'ubwogero kiza kijyanye n'igihe, aho gifitemo amakaro ku mpande ndetse no hasi kandi kikaba gifitemo n'akuma kabugenewe kabasha kumanura amazi ku muntu uri koga.

Icyumba cyiza kijyanye n'igihe kikaba kirimo ibibaho byo kwigiraho ndetse na mudasobwa aho zigiye ziteretse kutu meza kandi ku mpande yabyo hakaba hari n'amarido ndetse ukaba ubona yuko kijyanye n'igihe.

Inzobere ndetse n'abashakashatsi b'abanyeshuri, aho bari bari mu cyumba cy'ubushakashatsi bambaye amataburiya y'umweru, uturindantoki ndetse bafite n'uducupa tw'uturahure bashyiramo uruvange rwabo barimo bareba ibirugize.

Icyapa kiranga kaminuza nkuru y'u Rwanda, ikaba ari kaminuza iherereye mu karere ka Huye, mu ntara y'Amagepfo, mu murenge wa Ngoma, aho ari imwe mu zitanga initi nyinshi kandi abanyeshuri benshi bakaba baba baranyuze muri iyi kaminuza.

Inzu icuruza imiti y'amatungo, ikaba irimo imiti myinshi igiye itandukanye, ndetse kandi ikaba igiye ipanze mutu etajeri kandi ikaba igizwe n'imiti y'amoko menshi.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye, ikaba izwi ku izina rya Kaminuza ya Butare, ikaba ari imwe muri kaminuza zitanga ubumenyi ndetse n'uburere bwiza kandi abayivuyemo bakaba ari intiti.

Mu Rwanda kuri kaminuza nkuru ya Huye, aho abanyeshuri bari barimo baza ku nyubako zayo. Akaba ari zo bigiramo kandi zikaba inyubako zubatse mu buryo bwiza bujyanye n'igihe ndetse zikaba zifite n'ikoranabuhanga rigezweho ndetse na murandasi yihuta.

Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda iherereye i Butare, hakaba harimo inyubako nziza zijyanye n'igihe, aho harimo inyubako z'abayobozi, amaresitora abanyeshuri bifashisha kugira ngo babashe kubona ibiryo ndetse kandi n'inzira zijyayo zikaba zikoze neza cyane.

Icyumba cyo mu nzu cyo kuraramo kikaba ari icyumba cyiza aho gifite inzitiramibu irinda umuntu uharaye imibu ndetse kandi kikaba cyari kiriho matela nziza n'umusego kinashashe neza cyane.

Kimwe mu bigo byiza cyane biherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye, akaba ari ikigo cy'imikoro n'ubumenyingiro, aho kizwi ku izina rya IPRC Huye, kikaba ari kimwe mu bigo bikunze gusohora intiti nyinshi cyane muri kano karere.

Zimwe mu nyubako nziza zo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Butare, zikaba ari inyubako zigeretse kane ndetse ziri ahantu hakikijwe n'ibiti, zikaba zikoreshwa nk'amacumbi ajyanye n'igihe y'abakobwa biga muri kaminuza.

Kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, gikunze kugaragara mu mashuri yo kwigiramo y'abanyeshuri, cyane cyane ayo muri za kaminuza, kikaba ari kimwe mu bikoresho bizwi ku izina rya projecteur kikaba gifasha, kwerekana amashusho ku gikuta.

Mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Huye, ahazwi nka Kaminuza nkuru y'u Rwanda, hakaba hari amazu meza cyane akoreshwa n'abanyeshuri bayararamo ndetse bakaba bavuga yuko anabafasha kubera ko biborohereza ubuzima.

Kimwe mu byumba byiza byo kwigiramo bijyanye n'igihe, akaba ari icyumba kirimo intebe nziza kandi zifite umusego wo kwegamaho ndetse n'utumeza, kandi kikaba kinafitemo hejuru porejegiteri abanyeshuri bakoresha biga.

Icyumba kiza kijyanye n'igihe giherereye mu Karere ka Huye muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho kirimo intebe nziza zo kwicaraho, ikibaho kiza cy'umweru ndetse kandi zikaba zifitemo n'amatara.

Mu Rwanda mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Huye muri Kaminuza nkuru, hakaba hari inzu nyinshi ndetse harimo nk'izo abanyeshuri bararamo, zikaba ari inyubako zigeretse kabiri kandi zikaba ziherereye ahantu heza hakikijwe n'ubusitani.

Kimwe mu byumba bigezweho by'ikoranabuhanga, kikaba ari icyumba kirimo imeza ndetse n'intebe abantu benshi bashobora guhuriramo bakicaraho kandi kikaba gifitemo mudasobwa nyinshi zihagije ku buryo buri muntu wese yabona mudasobwa akoresha.

iKmwe mu cyumba cy'ubushakashatsi kijyanye n'igihe, aho ari icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho hakoreshejwe amakaro, ndetse kikaba gifite amatara hejuru ya kijyambere, kandi kikaba gifiteho imeza zo gukoreraho ubushakashatsi ndetse n'utubati two kubikamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini kiberamo inama. Akaba ari icyumba gihuriramo abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abatoya ndetse n'abakuru, aho gifite intebe nyinshi zo kwicaramo ndetse kandi kikaba cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, ku buryo umuntu uri inyuma abasha kureba imbere ndetse akanumva neza.

Icyumba cyiza gikozwe mu buryo bujyanye n'igihe, kikaba gifite isuku hasi gifite amakaro ku mpande uturange tw'umweru ndetse kikaba kinafiteho ahantu hane ho kuryama, kandi umuntu akaba abasha no kubona ahantu amanika imyenda.

Mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Ahazwi nko muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho hari agahanda keza, ndetse kandi gakikijwe n'ibiti birebire, bituma umwuka waho uba ari mwiza cyane.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, aho bari bambaye imyenda y'amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'uturindantoki, aho bari barimo bakoresha ibikoresho bizwi ku izina rya microscope kugira ngo babashe kureba udukoko dutoya.

Abana b'abahungu biganjemo urubyiruko, aho bari bahuriye mu nama yari yabereye mu nzu, aho hari harimo imeza, intebe ndetse na mudasobwa, bafiteyo n'umuzungu wari urimo aberekera uburyo bagomba gukoresha ikoranabuhanga.

Kimwe mu cyumba cy'ikoranabuhanga cyubatswe ku buryo bugezweho kikaba gifite intebe zo kwicaraho, utubati ndetse n'imashini zijyanye n'igihe, aho zigiye ziteretse kuri buri meza kandi kikaba gifite n'imbere ikibaho cyiza cyo kwigiraho.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abasore ndetse n'inkumi aho bari bahuriye mu cyumba cy'inama cyubatswe mu buryo bugezweho aho gifite intebe yo kwicaraho ndetse n'imeza iriho mudasobwa yo gukoresha bakurikira inama.

Icyumba cy'inzu kimeze nk'icyo kwigiramo, aho hari hicayemo umusore wambaye agapira kajya gusa umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara; aho yari afite agakapu ndetse arimo kwiga, kandi ku mpande hari n'undi uri gukoresha mudasobwa mu kwiga.

Kimwe mu byumba byiza by'ikoranabuhanga bigezweho bijyanye n'igihe, akaba ari icyumba abantu bahugurirwamo, kikaba gifite imeza ndetse n'intebe nziza zo kwicaraho, kandi kikaba gifitemo ibishushanyo bigiye bitandukanye, ndetse n'igikoresho cya kizimya mwoto, kifashishwa kugira ngo barwanye inkongi y'umuriro.

Mu Rwanda, mu Karere ka Huye, mu Murenge wa Ngoma, aho umuntu aba areba inyubako nziza zigiye zitandukanye harimo kaminuza, umusigiti ndetse n'amazu y'i Madina.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari bahuriye mu cyumba cy'inama kirimo mudasobwa ndetse n'utumeza, aho bari barimo bakurikirana inama ndetse baniga bakoresheje ikoranabuhanga.

Imwe mu nzu zubatse mu buryo bugezweho yo muri Kaminuza nkuru ishami rya Huye iherereye mu karere ka Huye, ikabaha ari imwe mu zikoreshwa cyane cyane n'abana b'abakobwa, aho bararamo kuko hakoreshwa nk'amacumbi.

Inzu zigerekeranye zikaba ari inzu zigeretse inshuro ebyiri ndetse n'izindi zigeretse gatatu, aho ari inzu zo kwigirwamo n'abanyeshuri bo muri kaminuza ndetse zikaba zikikijwe n'ibiti.

Muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Butare, harimo urujya n'uruza rw'abanyeshuri bahiga, aho bari barimo bagenda bataha bavuye kwiga ndetse ikaba iherereye ahantu heza hakikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'inyubako nziza.

Icyumba kigezweho kijyanye n'igihe, akaba ari icyumba abanyeshuri basomeramo ibitabo bigiye bitandukanye, kikaba gifite utubati twinshi ndetse buri kabati kaba kagiye karimo ibitabo by'ubwoko bugiye butandukanye.

Ikigo kijyanye n'igihe giherereye mu karere ka Nyamagabe, akaba ari ikigo cy'ubukorikori ndetse n'ubumenyingiro, kizwi ku izina rya IPRC Kitabi, kikaba ari kimwe mu bigo bitanga ubumenyi ndetse kigasohora n'intiti nyinshi mu Rwanda.

Inzu nziza zubatswe muri kaminuza nkuru ishami rya Huye, aho iherereye mu Karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, ikaba ari imwe mu makaminuza meza cyane kuko ifite inyubako nziza kandi ikaba ifitemo n'ubusitani bwiza cyane.

Kimwe mu byumba byo kwigiraho bijyanye n'igihe, kikaba ari icyumba cyiza ndetse gifitemo igikoresho kibasha guporojegita amashusho ku kibaho bidasabye y'uko mwarimu yirirwa yandika buri kintu cyose kikaba kizwi ku izina rya projector.

Icyumba kinini cyane kiberamo inama, aho cyari cyahurije abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abasore ndetse n'abakobwa, aho bari bitabiriye inama barimo biga ku buryo bateza imbere uburere ndetse n'uburezi.

Kimwe mu byumba by'ubushakashatsi kijyanye n'igihe kizwi ku izina rya raboratwari, akaba ari icyumba giherereye muri kaminuza nkuru ya Huye, aho abanyeshuri bari bakirimo bambaye amatabariya y'umweru, barimo bareba mu byuma byabugenewe bibasha kongera ifoto y'uturemangingo dutoya.

Abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye amataburiya y'umweru, aho bari bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, barimo bakoresha igikoresho kibasha kongera ubunini bw'utunyangingo dutoya, kizwi ku izina rya microscope.

Amwe mu mazu yubatse muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda akaba ari amazu ageretse rimwe, ndetse aherereye ahantu hegereye ubusitani aho akikijwe n'ibiti byiza birebire, ndetse akaba yifashishwa n'abakobwa nk'amacumbi yo kuraramo.

Imodoka yo mu bwoko bwa Coaster, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'amapine y'umukara, asa nabi, ikaba yari yanditseho University of Rwanda, aho bisa nk'aho yari yafotorewe mu kigo cya Kaminuza.

Abana b'abahungu bari bicaye mu cyumba cyabugenewe cy'ikoranabuhanga, aho bari bicaye ku meza bafite mudasobwa zabo kandi bafite n'udukayi ku mpande, bari barimo bakoresha mu kwiyungura ubumenyi bugiye butandukanye.

Icyumba cy'amashuri cyo gusomeramo cyabugenewe, aho ari icyumba kigiye kigizwe n'ibice bigiye bitandukanye, aho bagiye harimo utubati twinshi tugiye dufitemo ibitabo kikaba gifasha abanyeshuri kongera ubumenyi.

Icyumba cyiza cyo kuryamamo kijyanye n'igihe, akaba ari icyumba cyiza gifite agatapi hasi keza ndetse kikaba gifite igitanda kiriho matera nziza, aho yari ishasheho umusego ndetse ifite n'ikiringiti cyo korosa umuntu uryamyeho.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, ikaba ari inzu ifite imiryango iri mu ibara ry'umutuku. Ndetse ikaba ifiteho sima hasi kandi hari n'ahantu hari udutebe, twokwicaraho. Ku ruhande ikaba imeze nkaho hari nk'ahantu bakirira abantu runaka.

Icyumba cyiza cyubatse neza ndetse gisize akarange keza kikaba kirimo umukeka hasi n'igitanda kiriho matela ifite ibiringiti ndetse n'imisego, kandi hakaba harimo n'akabati ko kubikamo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo n'ipasi.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abapapa, abasaza ndetse n'abamama, aho bari bahuriye hamwe mu nzu y'inama, barimo biga ku buryo bateza imbere imyigire ndetse n'uburezi bw'abana.

Abasore bo mu ngeri zitandukanye, aho bari bahuriye hamwe bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari bicaye ku dutebe twiza tw'inama ndetse bafite amazi yo kunywa y'Inyange bateretse kutu meza, kandi bitwaje n'imashini zo gukoresha bandika ibyo bumvishe mu nama.

Icyumba kiza cyo kwigiramo kikaba ari icyumba kijyanye n'igihe aho gifite intebe n'utumeza abanyeshuri bicaraho ndetse kikaba gifite n'ikibaho imbere k'ikoranabuhanga, aho umwarimu ashobora gushyiramo flash disk akabasha kwigisha atiriwe yandika.

Kimwe mu byumba byagenewe imyidagaduro giherereye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda Ishami rya Butare, aho kiberamo imikino izwi ku izina rya basiketi, ndetse kandi kikaba ari na kimwe mu byumba bya mbere byiza biri mu Karere ka Huye.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, aho bari bahuriye mu cyumba k'inama kijyanye n'igihe, aho ari icyumba gifitemo intebe zo kwicaramo, imeza ndetse n'imashini za mudasobwa, buri muntu wese witabiriye abasha gukoresha, kugira ngo akurikire inama neza.

Inama yari yahuje abantu bo mu ngeri zitandukanye. Harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bari bicaye ku ntebe nziza zijyanye n'igihe ndetse ikaba yari yabereye ahantu heza cyane. Hafite amadirishya meza ndetse bakaba bari bafite n'amazi yo kunywa.